Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka nyinshi zigendwamo mu buryo bwihariye ifite ibice bigabanyamo umuhanda uduce twinshi tugendwamo n'imodoka zizamuka gusa, impande yawo hari ubusitani ndetse hari n'icyapa.

Inyandiko igaragaza amateka y'uburyo ki kwakira ndetse no kohezanya amafaranga byagiye bikorwa, hari ahariho amafaranga uwohereza yagiye akatwa, hariho kandi na nimero zihariye zarangaga ubwishyu.

Telefoni ngendanwa igezweho, ifunguye kuri paji yerekana amateka y'ibikorwa by'ihererekanya ry'amafaranga, ryagiye rikorwa ku matariki atandukanye.

Inzu icururizwamo imyenda hari imyenda ivanze mu kabati izinze neza ndetse n'indi imanitse ku tuntu bashyizeho tumanika imyenda ku nkuta ndetse no mu kirere.

Inzu icuruza imyenda hamanitsemo ikoti ry'ubururu riciyemo imirongo y'umweru, ni ikoti ryambarwa n'abagabo, rimanitse mu nzu ndetse inyuma yaryo hari akabati karimo imyenda izinze.

Imyambaro irimo ibitenge imanitse ku tubati tumanikwamo imyenda aho bacururiza, ibitenge birimo amabara n'ibishushanyo bitandukanye, ibitenge ni imyambaro yambarwa n'abagore.

Imyenda myinshi imanitse mu kabati ahantu hacururizwa imyenda irimo amashati y'amaboko maremare, hasi hashashemo itapi isa n'icyatsi.

Inzu ifite akapa k'umweru kanditsemo n'amagambo y'umweru kati: kurimba ni ibintu byanjye. Iyi nzu icururizwamo imyambaro y'abagore, ndetse n'amasakoshi y'abagore.

Imodoka ikorwa n'uruganda rwa merisedesi benzi isa n'ifeza iragurishwa miliyoni makumyabiri neshatu yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ikaba ifite moderi ya e magana atatu.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga ishashemo amabuye bahagaze bari kwifotoza hanze, inyuma yabo hahagaze imodoka isa n'umweru ifite umwanya w'inyuma wo guhekamo ibintu, inyuma yayo hari inyubako yanditseho Akagera.

Imbuga ishashemo amatafari hasi iruhande rwayo hari ahanyurwa n'amazi ni ukuvuga umuyoboro w'amazi utwikirijwe n'ibyuma kugira ngo umuntu atagwamo, hari icyapa kiri ku muryango w'ahantu yundayi ikorera.

Imodoka isa n'umweru, ifite igice k'inyuma gitwarwamo ibikoresho by'ubwubatsi birimo umucanga ndetse n'amabuye. Ni imodoka yo mu bwoko bw'ihoho.

Abagabo bane bahagaze mu mbuga ngari ishashemo amatafari inyuma yabo hari imodoka ihagaze ifunguye umuryango ,abo bagabo bafashe ku gishushanyo cy'urufunguzo rwanditseho Akagera barimo barifotoza.

Mu modoka imbere ikiriho amashashi bigaragara ko ari nshyashya, ifite ibice bitandukanye birimo igice gikoreshwa bayobora kimeze nk'ikigurudumu, ndetse ifite n'ahantu barebera amashusho imbere hari ikirahure cy'umukara.

Imodoka y'umweru ikorwa n'uruganda rwa toyota, iparitse kuri sitasiyo inywebwaho risansi n'amamodoka, iyi modoka yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Imodoka y'umukara ikorwa n'uruganda rwa mercedes benz iparitse mu mbuga yagenewe guparikwamo amamodoka iri kwaka amatara y'inyuma.

Imodoka yakozwe n'uruganda rwa Yundayi, irasa n'ifeza, iparitse mu mbuga itwikiriye iri kwakamo amatara y'umweru hasi ishashemo amakaro y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, mu ntoki ze afashe ikimenyetso cyanditseho akagera, inyuma ye hari imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa fuso.

Abagabo babiri bari hanze bifotoreza ku mbuga ishashemo amatafari, inyuma yabo hahagaze imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite igice kimeze nk'idomoro gitwarwamo ibisukika.

Inyubako ikorerwamo n'uruganda rwa Yundayi Rwanda, ifite imbuga ishashemo amatafari, ifite umuryango ukozwe n'ibirahure ndetse ifite n'amadirishya y'ibirahure bitabonerana.

Abagabo batatu bahagararanye bari kwifotoza, inyuma yabo hari imodoka y'umukara iparitse mu mbuga, abo bagabo bafashe ikimenyetso cy'urufunguzo rwanditseho akagera.

Imodoka y'umukara, ikorwa n'uruganda rwa Benzi yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiriiparitse hanze mu mbuga yagenewe guparikwamo, iragurishwa miliyoni mirongo itanu.

Ahantu hakorerwa ubugenzuzi bw'ibinyabiziga birimo amamodoka haparitsemo amamodoka menshi, ahangaha niho abantu bajyana kurebesha nibamba ibinyabiziga byabo bitateza impanuka zishingiye ku mikorere mibi y'ibikoresho biyigize.

Imodoka y'umutuku, yicarwamo n'abantu bane, iparitse mu mbuga ishashemo amakaro y'umweru, iruhande rwayo haparitse indi modoka na yo isa n'umutuku, inyuma yayo na ho haparitse izindi modoka, zose zikorwa n'uruganda rwa yundayi.

Inzu imanitseho icyapa cya yundayi, mo imbere haparitsemo imodoka nyinshi, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Aha ngaha niho hatangirwa serivisi z'imodoka za yudayi, ni ukuvuga kuzikora, kuzigurisha ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu isize irange risa n'igitaka umuryango wayo ufunguye hahagazemo imodoka zigera kuri kuri eshanu zo mu bwoko bwa yundayi akaba ariho bazigurishiriza.

Abagabo batatu bahagaze mu mbuga ishashemo amatafari, inyuma yabo haparitse imodoka zisa n'umweru ebyiri, inyuma yazo hari ihema ryanditseho akagera.

Imodoka y'umukara ya toyota, imbere yayo haciye umurongo w'umuhondo utsiritse, iragurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi, ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa toyota, ikaba ari ubwoko bushya busohotse.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ifite agaciro ka mafaranga igihumbi, yemewe na banki nkuru y'u Rwanda. Ashushanyijeho inkende iri kurira igiti ndetse na mize iri i Huye.

Ibiganza birimo birabura amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ashushanyijeho umugabo, iruhande rw'uyu muntu uri kubara amafaranga hari icyuma cya mubazi gikoreshwa mu kubara amafaranga umuntu atibeshya.

Umugabo uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifunze neza mu byiciro, imbere ye afite icyuma cya mubazi kimufasha kubara ayo mafaranga.

Mu nzu harimo umugore ndetse n'umugabo, umugore umwe yicaye mu biro, afite mubazi ibara amafaranga, arimo arahereza undi mugore uri inyuma y'ikirahure kibonerana gifite umwanya wo kuvuganiramo, ari kumuhereza amafaranga y'inoti.

Abantu batonze umurongo baje gushaka serivisi mu biro byicawemo n'umugore, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku kameza, hari ikirahure kibonerana gifite ubushobozi bwo gutambutsa ijwi aho umuntu uri mu biro avuganira n'abantu baje gushaka serivisi.

Inzu irimo ibiro byicawemo n'umugabo ndetse n'umugore, umugabo wambaye ikoti ry'umukara imbere ye hicaye umugore ufite imisatsi y'umukara arimo aramuha serivisi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro ka magana atanu, yemewe na banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda, ashushanyijeho ingagi ndetse hari n'urundi ruhande rwayo rushushanyijeho abana batatu bicaye ku ntebe bari gusoma ibitabo.

Inzu ikorerwamo kandi inatangirwamo ibicuruzwa by'uruganda inyange, irimo inkuta zisize amabara y'ubururu, ndetse hanarimo igishushanyo cy'inyamaswa y'inyange, hari n'utubati turimo ibicuruzwa by'imitobe ndetse n'amata y'inyange.

Ibyo kurya by'amandazi menshi ari ku isahani iriho uturabyo, bifashwe mu ntoki n'umugabo ubiteruye, ari kubitereka ku meza hejuru.

Ibyo kurya byo mu bwoko bwa capati bifashwe mu kiganza cyirabura, umugabo ufite agapapuro k'isuku agafatishije izo capati ari kuzishunaho.

Amata ari mu tujerekani dusa n'umweru, twometsweho ibirango imbere, ndetse n'andi ari mu dupapuro twagenewe gupfunyika amata, ndetse n'imigati, byose bimanitse ku kabati hejuru.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe bafite amata yo mu ducupa mu ntoki abakoranye n'isukari barimo barifotoza barimo barayamamaza inyuma yabo hari icyuma gikonjesha kirimo andi mata ari gukonjeshwa.

Mu nzu harimo akabati karimo amajerekani y'umweru akamanitswemo, mu mitambiko yako, iyi nzu yubakishije igikuta cy'amatafari ahiye.

Inzu icururizwamo amata y'inyange ihagazwemo n'umugabo imbere ye hari akabati gafite ibirahure bibonerana hateretsemo amandazi ku isahani nini , inyuma ye hari akandi kabati k'ubururu karimo imitobe ndetse n'amata by'inyake.

Umugore wicaye iruhande rw'icyuma gikonjesha amata, iruhande rwe hari ikindi cyuma gishyirwamo amata yo mu ducupa duto, imbere ye hahagaze umugabo wambaye ishati y'umukara, bari kuvugana.

Mu nzu ishashemo amakaro y'umweru irimo udutebe two kwicaraho dusa n'umweru ndetse n'ameza y'umweru hateretsemo icyuma gishinze ku makaro hasi, kiriho icyuma gikonjesha amata hariho umubirikira ndetse n'ijerekani, amata ari kuva muri icyo cyuma ajya mu ijerekani.

Abagabo basohokeye mu nzu icuruza amata bafite ibirahuri bibonerana bisutsemo amata bamwenyuye ndetse bahuje ibirahure nk'ikimenyetso cyo ubumwe cyangwa nkaho bavuze bati tunywe ku bwacu.

Umuntu wicaye afite keke mu ntoki yashunyeho, imbere ye hari ameza ateretseho igikombe kirimo amata asa n'umweru, imbere yacyo hateretse ikaramu y'ubururu.

Imbuga ishashemo amatafari haparitsemo imodoka, harimo imodoka y'umweru ifite imyanya ine yicarwamo abagenzi ndetse n'uyitwaye, hafunguye urugi. Iruhande rwayo hari imodoka isa n'icyatsi naho inyuma yazo zose hari inyubako, hubakishije amatafari ahiye.

Inzu icururizwamo amata irimo icyuma gikonjesha amata, kiriho ibirango by'uko ayo mata ari ay'uruganda rw'Inyange. Harimo igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugore uteruye igikarito, wambaye amadarubindi, ufite terefone mu ntoki, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo, uyu ni umukozi wa MTN.

Apurikasiyo ya mobayiro mani, ifunguriye muri telefoni mu mazina y'uwitwa Yozefu. Barakwereka ko hari gahunda zo kwishyura ibintu bitandukanye, hakabaho gahunda yo guhindura amafaranga ajya muri Uganda, ndetse n'uburyo ki wakwishyura ibindi bintu.

Iyo ukanze ikanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, ugakurikizaho urwego ubona serivisi zitandukanye za MTN, zo gukoresha harimo uburyo bwa mbere bwo kohereza amafaranga, uburyo bwa kabiri ari kugura amanite, uburyo bwa gatatu ari gahunda zigendanye n'amafaranga, uburyo bwa kane ni uburyo bwo kwishyura ndetse n'ubundi.

Urwandiko rugaragarira muri mudasobwa rwanditseho Rwanda Revenue Autohority nk'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; ruriho kandi ikirango cya repubulika y' u Rwanda rwerekana imisoro yatanzwe n'ikigo cy'ubucuruzi.

Urupapuro rw'umweru rugaragarira muri mudasobwa ifunguye ruriho ibirango bya Rwanda reveni otoriti nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ikirangantego cy'igihugu rwerekana ko ikigo cy'ubwishingizi cya purayimu cyishyuye imisoro.

Ku rupapuro rw'umweru, rufunguriye muri mudasobwa, rwanditseho ibirango bya Rwanda Reveni Otoriti ndetse n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda, mu mazina ya Henry Rutaganzwa, uri kumenyekanisha imisoro.

Urupapuro rw'umweru rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda RevenueAuthority, rugaragarira muri mudasobwa ifunguye, rugaragaza ko uwitwa Henry Rutaganzwa yishyuye imisoro.

Urupapuro rugaragaza raporo y'amafaranga yakoreshejwe n'uruganda rwa "saint pakeri" rukora imigati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibirango bya Rwanda reveni otoriti ndetse n' ikirango cya repubulika y'u Rwanda rwanditseho ko sebakeri yishyuye imisoro.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka magana atanu, k'igihumbi n'afite agaciro k'ibihumbi bitanu andi afite agaciro k ibihumbi icumi andi afite agaciro k'ibihumbi makumyabiri.

Umugore uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka mirongo itanu ari kubara kandi n'andi mafaranga y'ibiceri bitatu mukundi kuboko. Amafaranga ashobora kuba atandukanye mu kuyakora cyangwa ibiyanditseho gusa yose icyo ahuriyeho ni uko akoreshwa mu kugura cyangwa kwishyura ibintu.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, arimo arabarwa n'umuntu, harimo amafaranga y'agaciro k'ijana y'amadolari, ndetse imbere ye hari ameza afite ikirahure hejuru, mo imbere harimo igikoresho cya mudasobwa.

Umuntu ufashe amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, impande ye hari umugore ufashe ku cyuma cya mubazi, gikoreshwa mu kubara amafaranga kugirango umuntu atibeshya.

Umugabo uri kwerekana amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro gatandukanye gusa icyo ahuriyeho yose ni uko akoreshwa mu kwishyura ibintu, yakwishyura ishuri, yakwishyura ubwishingizi ndetse n'ibindi byinshi. Amafaranga ashobora guhindurwa agakurwa mu madolari agashyirwa mu manyarwanda cyangwa se ayandi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifunze neza zifite agaciro k'ijana, amafaranga aragerekeranyije ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mubwoko bw'inoti, mu ntoki ze iruhande rwayo hari andi mafaranga ateretse ku meza y'amadorari, nayo yo mu bwoko bw'inoti.

Umugabo wicaye wambaye ishati ya karokaro, wambaye isaha ku kuboko, afite amafaranga yo mu bwoko bw'amadorari, afite agaciro k'ijana, ari kuyabara, iruhande rwe hari n'ibindi bipfunyika by'amafaranga.

Ibiganza biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka ijana, ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire igana inyuma.

Amafaranga atandukanye yo mu bwoko bw'inoti harimo inoti y'amafaranga magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'inoti y'amafaranga ibihumbi icumi, n'inoti y'amafaranga igihumbi ya Uganda n'izindi noti zitandukanye.

Ibiganza biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadolari zifite agaciro k'igihumbi. Amafaranga akora byinshi birimo guhaha ndetse no kwishyura amashuri. Iyo ufite amafaranga yo mu bwoko bumwe, ni ukuvuga amadolari ushobora kuyavunja mu yandi mafaranga arimo amanyarwanda, amarundi se, amagade se, n'ayandi menshi binyuze mu kigo cy'ivunji...

Icyuma kibara amafaranga cyashyizwemo amafaranga y'amadolari, afite agaciro k'ijana, umuntu ukiri iruhande ari gukanda imibare, ari kugikoresha. Iki cyuma gikoreshwa mu kubara amafaranga.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti afite agaciro ka maganatanu magana abiri ijana mirongo itanu makumyabiri ndetse n'icumi amafaranga atandukanye mu gaciro ndetse n'ibiyakoze ariko icyo ahuriweho yose n uko akoreshwa mu kwishyura ishuri mu kwishyura ubwishingizi ndetse n'ibindi byinshi.

Mu nzu harimo intebe y'umukara yo kwicaraho irimo n'amavaze abiri asa n'umweru ateyemo indabyo zifite amababi y'icyatsi.

Umuntu ufashe amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifite agaciro k'amayero angana na makumyabiri ndetse hari n'undi muntu ufashe amafaranga y'amadorari afite agaciro k'ijana ashushanyijeho umugabo.

Inzu ishashemo amakaro hasi ikaba iteretsemo ameza akoze mu biti; ndetse n'intebe ziyizengurutse na zo zibaje mu biti.

Intebe yicarwamo, iruhande rwayo hari n'iyindi ntebe ikozwe n'imisego yegamirwa, zose ziteye mu nzu, mo imbere ishashemo itapi ishushanyijeho uturabyo.

Inzu ifite akabati kabaje mu giti, ifite n'uruganiriro rurimo intebe z'imisego zegamirwa, ifitemo kandi n'indi ntebe ibaje mu giti, iyi nzu ishashemo amakaro hasi.

Inzu ifite uruganiriro rurimo intebe zegamirwa zikozwe n'imisego, zizengurutse ameza abaje mu giti, ndetse hari n'utundi dutebe tubiri duto natwo twicarwaho.

Intebe zikoze mu giti zifite umusego wo kwicaraho zizengurutse ameza nayo akoze mu giti, hasi hashashe amakaro, iruhande rwaho hari izindi ntebe ndetse n'ameza.

Inzu ishashemo amakaro, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, harimo intebe ibabaje mu biti ifite ahantu hegamirwa ndetse harimo n'akabati nako kabaje mu biti.

Inzu ishashemo amakaro hasi harimo intebe ikoze mu biti ifite imisego yicarwaho kandi ifite n'igice cyo kwegamiraho. Intebe zicarwaho iyo umuntu aganira n'undi ari kuruhuka cyangwa ari gufungura intebe ni ingirakamaro.

Imeza ifite ibara ryenda gusa n'igitaka ikikijwe n'intebe zisa nayo zigera kuri esheshatu, iteretse hanze. Barimo barayamamaza imbere y'inzu isize ibara ry'umweru ndetse ifite n'amakaro.

Iz'imisego zisa n'icyatsi zegamirwa ndetse n'izindi zisa n'umukara hagati harimo ameza byose biteye hanze iruhande rwaho hari ikigega gishyirwamo amazi gisa n'umukara.

Inzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse n'ivase iteyemo ururabo rw'icyatsi, ifite uruganiriro rurimo intebe z'umweru zifite imisego, ndetse ifite n'akameza k'amabara y'umweru.

Akabati kabaje mu ishusho y'ikirimi cy'umuriro, gafite imyanya itandukanye yo guterekwamo ibintu, hateretsemo ibikombe birimo indabyo z'icyatsi.

Inzu ifite umwanya w'uruganiriro rurimo intebe z'imisego zegamirwa, hagati yazo hari akameza gakozwe mu biti, hejuru ni ibirahuri.

Inzu ikorerwamo na parike ya Owazisi, ifite pisine hanze irimo amazi, ruguru yayo hari udutebe twicarwaho cyangwa tukaryamwaho n'abantu baje koga muri pisine.

Inzu ifite icyumba cy'inama irimo intebe zifite n'ameza imbere yazo ariho ikaramu n'urupapuro ndetse n'amazi yo kunywa imbere hari tereviziyo nini irimo igaragaza ibintu.

Inyubako ya hoteri ya onomo iri ku muhanda ujya mu mujyi, ifite uruzitiro rukozwe mu byuma, ndetse iruhande rwaho hasi hari ahantutu hashinzemo amadarapo.

Ubusitani bufitemo uturarabyo tuzengurutse ahantu hari pisine, aho abantu bajya kogera bagakora imyitozo ngororamubiri cyangwa bakoga bishimisha.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, ifite amatara yaka mu ibara ry'icunga rihishije, ku rubaraza rwo hanze, ifite kandi inkingi zisize amarangi y'umweru, ifite ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse harimo n'intebe n'ameza yo kwicaraho.

Hanze hateye imitaka ndetse n'ameza azengurutswe n'intebe z'umukara, biteye mu buryo bw'amasibo, ayo meza hejuru ateretseho ibyo kunywa, ndetse hirya y'aho hateye n'ibiti bizana umuyaga.

Inzu y'amagorofa iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'imodoka iruhande rwazo haragendwa n'abantu kaburimbo igendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka cg se amapikipiki hari n'agahanda ku ruhande kaba karagenewe kugendwamo n'abanyamaguru.

Inzu ishashemo amakaro harimo ameza ndetse n'intebe, ateye mu duce dutandukanye tw'iyi nzu harimo harakamo itara ry'umweru abantu bamwe baricaye abandi bari kugenda.

Pisine izengurutswe n'intebe zo kwicaraho, ndetse hari n'ahantu hari umutaka utwikiriye udutebe two kwicaraho tuzengurutse pisine, iruhande rwaho hari izindi ntebe zisa n'umweru nazo zitwikirijwe n'umutaka.

Ubusitani burimo umutaka ndetse munsi yawo harimo n'intebe zo kwicaramo, zigiye ziteye mu masibo menshi, hari n'izindi ntebe ziri mu masibo, zikikije akameza kadatwikirijwe n'umutaka. Impande yaho hari igiti cy'amacunga.

Inzu igizwe n'amagorofa ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'igice cyubakishijwe n'ibirahure. Hasi mu mbuga yayo harimo picine ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri cyangwa koga umuntu yishimisha.

Inzu yubatse mu buryo bugeretse, ifite igisenge cy'umukara, irimo amakaro hasi, ifite n'imbuga ishashemo amatafari ndetse ifite n'igice imodoka ziparirikamo gikikijwe n'indabyo.

Inzu y'amagorofa yubakishije ibirahuri bitabonerana, ikaba ifite inkuta z'umweru n'umutuku, mu mbuga yayo harimo ubusitani ndetse hubatse na pisine.

Inzu ifite urubaraza ruteyemo ameza ndetse n'intebe ziyazengurutse, hari n'umutaka uzinze, ifite kandi utwuma tuzengurutse urwo rubaraza, inyuma y'utwo twuma umuntu uhahagaze ashobora kwirebera ibidukikije.

Icyumba gisize amarangi y'umweru avanze n'umukara harimo ameza y'umukara ndetse n'intebe z'umukara ziyikikije, akaba ari intebe zigera kuri cumi n'imwe, akaba ari icyumba gikorerwamo inama.

Imbere y'inzu y'amagorofa ifite imiryango myinshi ifungishijwe inzugi z'ibirahure, haparitsemo imodoka isa n'umutuku mu kanya gato kagenewe guparikwamo n'imodoka imwe, impande yayo hari akandi kanya gaparikwamo n'izindi modoka.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi cya beka gifite ikirango cy'igice cy'izuba; iburyo bw'aho hantu handitse amagambo ya beka mu ibara ry'ubururu hanze hari ubusitani burimo indabo zisa n'umuhondo.

Mu biro harimo intebe y'umukara yicarwaho kandi umuntu akanegama, imbere yayo hari ameza hateretseho agacupa k'amazi yo kunywa, ku meza kandi hateretseho imashini ifotora ikanasohora inyandiko.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'icyongereza mu ibara ry'umukara, harimo ibintu banki zikwiye gukurikiza mu masezerano y'imikorere yazo.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, baje gushaka serivisi mu biro by'aho banki ya equity ikorera, harimo inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse n'amarangi y'umutuku hamanitsemo na televiziyo.

Abagore b'abirabura ndetse n'umugore umwe w'umuzungu usutamye, bari kwifotoza bahagaze hanze iruhande rw'inzu ifite umuryango ukingishwa urugi rusa n'icyatsi bari kwifotoza, imbere yabo hari ibicuba bikitwamo amata.

Banki ya ayendemu irakubwira ko ushobora kwiyubakira igihe wabagannye bakaguha agera kuri mirongo irindwi ku ijana y'agaciro k'inzu yawe.

Urupapuro rurimo amasezerano, umukiriya ugiye gufunguza konti muri banki agomba kubanza kwemeza mbere y'uko konti ye ifungurwa.

Inzu y'amagorofa yubakishijwe n'ibirahure ifite imbuga iparitswemo n'amamodoka yegereye umuhanda uri kugendwamo n'abantu impande yawo hari n'ahandi hantu haparitse amamodoka.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo umugore usutse imisats ijya inyuma wambaye umupira w'amaboko magufi usa n'ubururu, imbere ye hari umuguzi w'umugabo wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi arimo aramucuruzaho imbuto.

Isoko ricururizwamo imyambaro, ririmo ibitenge byambarwa n'abagore, rihagazwemo n'abacuruzi ndetse n'abaguzi barimo umugabo w'umuzungu ndetse iruhande rwe hahagaze umusore wambaye ingofero n'umupira wa efupeyeri.

Umugore uri guseka yicaye ateze n'igitambaro mu mutwe, ari gucuruza inyanya ndetse n'amacunga, iruhande rwayo hari n'ibihaza.

Mwisoko harimo abantu benshi, harimo ibicuruzwa birimo ibitenge bimanitse ku biti byagenewe kumanikwaho imyenda mwisoko bikora nk'utubati, hahagazemo umugore, imbere ye hari imashini idoda.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya birimo ibishyimbo by'amoko atandukanye, indagara ndetse n'amafu, biri mu tuntu tubaje mu giti tubirinda gusandagira, hamanitseho kandi n'utwapa twerekana tunasobanura ibyo bicuruzwa.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye birimo imitako, harimo abantu benshi, iri soko ritwikirijwe amabati ndetse abacuruzi baricaye.

Isoko ririmo abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, iri soko ricururizwamo ibijyanye n'imbuto zirimo imineke, imyembe, ndetse n'ibinyomoro.

Isoko ricuruza ibirimo inkoko ndetse n'imitako yo mu nzu, hahagazemo umukobwa ufite imisatsi isutse inyuma, wambaye umupira w'amaboko maremare usa n'umutuku, harimo akabati karimo n'indi mitako ishyirwa ku nkuta.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari kuri terefone yicaye ku ipikipiki y'umukara iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ndetse afite na igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki.

Akazu gasa n'umuhondo gafunguye amadirishya yose, kariho ibirango bya MTN, hahagazemo umugore witangiriye itama, imbere ye hahagaze abagabo babiri bari kumuvugishiriza mu idirishya.

Mu nzu hahagazwemo abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'amaboko magufiya w'umuhondo, uriho ibirango bya MTN. Imbere ye hari mudasobwa iteretse hejuru ku meza; arimo araganira n'undi mugabo ufashe terefone mu ntoki.

Umugabo utwaye ipikipiki yambaye umupira wimbeho ndetse n'ingofero y'umukara y'ubwirinzi, ahagaze kuri sitasiyo ya lisansi arimo aragura lisansi imbere ye hahagaze umugabo n'umugore bambaye imipira y'imihondo yanditseho emutiyeni.

Umugore ubyibushye usutse imisatsi y'umukara imanuka inyuma mu umugongo ari gukoresha terefone yishyura, imbere ye hagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi ufite ikora umukobwa ari kwerekana uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe mobayilo money.

Abagore batatu, bahagaze mu nzu icururizwamo ibintu bitandukanye, ifite inkingi imanitseho akapa kariho nimero bakoresha bishyura amafaranga y'ibicuruzwa mu buryo bukoresha ikoranabuhanga rya terefoni.

Munzu irimo abakozi ba MTN, itatsemo ibirango by'amabara y'umuhondo abo bakozi bambaye imyambaro igizwe n'imipira y'amaboko magufi, imbere yabo hahagaze umukiriya.

Imbere y'akazu kubabatse hanze gasa n'umutuku kariho ibirango bya eyateli hahagaze abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari gusuhuzanya bahuje ibiganza nk'igikorwa cy'ubumwe.

Abagabo babiri bazanwe n'abatwara abagenzi ku mapikipiki ku buryo bw'umwuga, bose bari gukanda muri telefoni zabo bari kwishyura aba motari bakoresheje uburyo bwa telefoni.

Akapa k'umuhondo gafite ibirango bya MTN, kandikishijwemo amagambo y'umukara, hariho amazina y'uwishyurwa ya rabu ndetse na nimero iranga umucuruzi.

Akazu kubabatse hanze gasa n'umuhondo, kariho ibirango bya MTN, gafunguye amadirishya yombi, imbere yako hahagazwe n'abagabo babiri n'umugore bose baje gushaka serivisi za MTN.

Umugore wirabura usutse imisatsi ijya inyuma, ahagaze hanze ahagararanye n'umugabo, wambaye imyenda isa n'umuhondo, iriho ibirango byo kwishyura ukoresheje momo, arimo aramwereka ibintu muri telefone.

Umutaka ushinze hanze, wicawemo n'umukozi uhagarariye ibikorwa bya MTN, wambaye umupira w'umweru ufite ibirango bya MTN mu mugongo, iruhande rwe hahagazwe n'abagabo ndetse n'abakobwa bo mu myaka mitoya arimo arabaha serivisi.

Akazu gasa n'umuhondo kariho ibirango bya emutiyene kicawemo n'umuntu, iruhande rwe hari umugore naho imbere ye hahagaze umugabo ari kubakira abaha bimwe mu byo emutiyene icuruza ni ukuvuga harimo serivisi zo guhamagara, kohererezanya amafaranga ndetse no kuyakira.

Akazu gakozwe mu byuma gasize amarangi y'umuhondo kariho ibirango bya MTN, imbere yako hahagaze abagabo baje gushaka serivisi zitangwa na MTN.

Abagabo bambaye amakoti ya yego moto asa n'umutuku bicaye ku mapikipiki barikugendera hamwe. Imbere yabo hari imodoka ifite umwanya winyuma wo guhekamo ibintu isa n'umweru y'uruganda rwa Toyota.

Umusore wambaye umupira w’icyatsi ndetse n’ipantaro, akaba yicaye kw’ipikipiki y’umukara ifite isanduku inyuma ikoreshwa itwara imizigo.

Inzu icururizwamo imbuto zigifite umwimerere, harimo imbuto nyinshi zitandukanye nk'uko bigaragazwa ku bishushanyo byo ku rugi rw'iyi nzu; harimo inanasi, imineke, ndetse n'ibindi byinshi.

Ipikipiki ihetse agasanduku gasa n'icyatsi kanditseho vuba vuba ihagaze imbere y'umuyobozi wambaye ishati ya karokaro, iyi pikipiki iraparitse mu mbuga ishashemo amatafari.

Umugabo utwara ipikipiki ihetsweho agasanduku gasa n'umutuku, gafungishije ingufuri kanditseho k, f, na c ari kwambara ingofero y'ubwirinzi yambarwa nabicaye ku ipikipiki.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, isa n'icyatsi yanditsemo vuba vuba inyuma mu mugongo, yambaye n'ingofero y'ubwirinzi yambarwa n'abatwara amapikipiki na yo isa n'icyatsi kandi yanditseho vuba vuba, ari gukura ibintu mu gasanduku gasa n'icyatsi, kaziritse ku ipikipiki inyuma.

Abayobozi b'amapikipiki, bambaye ingofero z'icyatsi, zirinda abicaye ku ipikipiki, bahetse kandi abagenzi, na bo bambaye ingofero zibarinda, zisa n'icyatsi, bose bakebutse bari kuvugisha abagenzi.

Mu nzu hahagazemo umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore w'umwirabura wambaye amaherena, umugabo w'umuzungu arimo arereka uw'umwirabura ibintu birimo ibiribwa n'ibinyobwa biteretse ku meza ari mu nzu.

Inzu isize amarangi y'umweru n'ubururu, imiryango n'amadirishya bisize amarangi y'umukara, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu ushobora guhagarikamo imodoka ebyiri ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Inzu ifite igisenge gicuritse gisakajwe n'amabati atukura ishashemo, amakaro mu rubaraza ruteretseho kandi ivase irimo ururabyo, ifite imbuga ishashemo amatafari. Iyi nzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba igurwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu ifite icyumba cyo kuryamamo, gishashemo amakaro, gifite idirishya ry'ibirahure rifunguye, n'igitambaro gipfuka idirishya kugirango urumuri rutinjira mu nzu, ifite inkuta z'umweru, itara ry'umweru ririkwaka, harimo igitanda gikoze mu biti kiriho umufariso.

Inzu ishashemo amakaro, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifitemo n'akabati gashyirwamo imyenda, mu cyumba harimo igitanda gishashe neza, iyi nzu iherereye i Kigali, irakodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu.

Inzu y'igorofa ifite inkuta z'umweru ndetse ikaba ifite n'amadirishya atabonerana asa n'umukara n'inzugi zifite ibikingi by'umukara. Iyi nzu ishasheho amakaro ikaba igurwa miliyoni magana atatu na mirongo itanu. Iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu ishashemo amakaro ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite inzugi ziyinjiramo ebyiri nini zisa n'umukara zigizwe n'ibyuma ndetse n'ibirahure gusa, ikaba ifite itara ryo hejuru ryaka rimeze nk'ururabyo iyi nzu iragurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu gusa.

Inzu ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku ukwezi iherereye i Kigali, ifite imbuga iparikwamo imodoka ishashemo amabuye, iyi nzu yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Inzu yubakishijwe rukarakara isize amarangi y'icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, ikaba ifite inkingi y'umweru, ikaba ari inzu iherereye Kanombe ikaba igurishwa ku giciro gito cyane wakigondera.

Inzu ifite aho bogereza amasahani, ibikombe, ndetse n'amasafuriya, ifite idirishya ryinjiza urumuri ku gikuta hateyeho utubati tw'ibiti ndetse hakaba harimo n'icyuma gikoreshwa mu gukonjesha. Iyi nzu ifite icyumba kimwe ubwogero bumwe ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Inzu ifite akameza gateretseho televiziyo ndetse na dekoderi. Irimo amakaro mu nzu ashashe hasi, ifite akameza gateretseho ivase irimo indabyo z'icyatsi. Iyi nzu irakodeshwa amadorari magana ane ku kwezi.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo inzoga zikaze ndetse n'imitobe harimo imitobe isa n'icunga rihishije ifite umufuniko usa n'icyatsi itondekanyije mu kabati kabanza.

Isoko ricururizwamo imyambaro, hahagazwemo n'umugore wambaye umwenda w'umweru usutse imisatsi, ari kuvugana n'umugore ufite umwambaro mu ntoki umuri imbere, harimo haraka amatara y'umweru.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'ibinyobwa birimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hahagazemo umugabo ufite akagorofani gasa n'umutuku gasunikwa gatwarwamo ibiguriwe muri iri soko kugeza aho bishyurira.

Inzu ishashemo amakaro hasi ifite utubati tugeretsemo ibicuruzwa by'inkweto zambarwa ndetse ikaba ifite n'akandi kantu kamanitseho amadarubindi.

Umugore uri mu isoko, ufite imisatsi isutse n'amaherena ku gutwi. Impande ye, hacururizwa imyambaro y'abagore, irimo amakanzu y'amabara atandukanye imanitse.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye bipanze mu tubati imbere yabyo hari udupapuro tw'umuhondo twanditseho ibiciro byabyo harimo ibicuruzwa nk'ibisembuye ndetse n'imitobe.

Abantu benshi bari kunyuranwamo, mu nzu iri kwakamo amatara y'umweru, ifite ahantu bacururiza imyambaro igezweho ndetse imbere hari utubati tumanitsemo n'ibindi bicuruzwa.

Umugore wicaye ku ntebe ikozwe mu biti, afite amakarita abiri y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli arimo arayerekana.

Abantu benshi bateraniye hanze bari kureba umukino w'amaboko, hari n'ibyapa bya Ejo Heza, inyuma yabo hubatse inyubako zubakishijwe amatafari ahiye.

Ibiro byo kwa muganga, byicawemo n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, impande ye hari umugore ufite mituweli nk'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki, isa nk'umuhondo arimo arayimuhereza.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu wifubitse igitambaro cy'umuhondo kirimo udushushanyo afashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli.

Abantu bicaye ku ntebe y'urubaho yegamirwa, inyuma yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye. Bose bafite impapuro z'umuhondo ndetse n'udukayi duto dusa n'umutuku, Aha ni kwa muganga.

Abagabo n'abagore bakuze bicaye mu nyubako yo ku kigo nderabuzima, bafite udukaye ndetse n'impapuro bategereje kwivuza.

Umuntu ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku mpapuro zisa n'umuhondo n'impapuro za mituweri ikoreshwa mu bwisungane no kwivuza, ni ukuvuga mituweri ibigomba kuba iriho umwirondoro w'uyikoresha ifoto ndetse n'imyaka ye.

Iguriro ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, bipanze mu kabati gasa n'umukara, ibyo bicuruzwa bikaba bifite udupapuro twometse ku tubati imbere y'ibicuruzwa, twerekana ibiciro by'ibicuruzwa.

Isoko ricururizwamo imbuto z'ubwoko bwinshi, imbere yaho zimanitse hari udupapuro tw'umweru, twanditseho ibiciro byazo, hari kandi n'akabati kamanitsemo amavuta yo kurya.

Inzu ishashemo amakaro iteretsemo icyuma gikonjesha ibinyobwa bitandukanye birimo amata, imitobe iri mu macupa, amazi yo kunywa, ndetse n'amata ari mu dukombe.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bipanze mu tubati, harimo imigati ndetse n'ibindi birimo amata y'ifu afunze mu dukombe tw'icyuma. Imbere yaho hari n'akandi kabati karimo ibicuruzwa nka byo, mo imbere hari kwaka amatara y'umweru, hasi hashashemo amakaro.

Mu nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, bipanze mu tubati haratambukwamo n'umuntu w'umuzungu, uri gusunika akagorofani gatwarwamo ibicuruzwa bivanwa mu tubati, bikagezwa aho byishyurizwa.

Inzu icururizwamo ifite uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya momo, ihagazwemo n'abakiriya barimo umugabo ufite telefoni y'amatushi mu ntoki ze, iruhande rwe hahagaze abagore babiri.

Isoko ricururizwamo imbuto ziri mu dutebo zifite udupapuro dutoya twanditsweho ibiciro byazo, zipanze neza ndetse iruhande rwazo hari n'akabati k'icyatsi gapanzemo ibindi bicuruzwa.

Inzu icururizwamo ishashemo amakaro iri kwakamo amatara y'umweru yifitemo utubati tugeretsemo ibicuruzwa bifite udupapuro imbere yabyo tw'umweru twanditseho ibiciro by'ibyo bicuruzwa.

Utubati dupanzemo ibicuruzwa bitandukanye, imbere yabyo hari udupapuro duto twanditseho ibiciro by'ibyo bicuruzwa birimo inzoga zisembuye ndetse n'amata. Iruhande rwaho hariho akandi kabati k'umutuku.

Iyi inzu irimo isoko rinini ricuruza imitobe amata ibikoresho bisukura, ni ukuvuga amasabune y'amazi ndetse n'ibindi byinshi bipanze mu tubati dufite amabara y'umweru imbere yabyo hari udupapuro tugaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Inzu icururizwamo ibijyanye n'imigati ndetse n'ibindi byinshi bipanze mu tubati. Harimo abaguzi benshi muri bo hahagazwemo n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Ni muremure imbere ye hahagaze umukobwa utanga serivisi za mobile money.

Inyubako icururizwamo irimo utubati dupanzemo ibicuruzwa birimo imitobe ndetse n'inzoga zisembuye. Harimo haraka amatara y'umweru ari hejuru.

Umugore ucururiza mu isoko wambaye umupira w'ubururu, ufite ikora ndetse ufite n'amaboko magufi, afashe ku kajarekani gasa n'umweru gafite umufuniko wubururu, ku meza hateretse igihaza, imbere ye hahagaze umuzungu uri guhaha.

Umugabo uri mu iguriro ricuruza imitobe amavuta yo guteka ndetse n'ibindi byinshi, nk'uko bigaragarira mu gakombe, bipanze neza mu kabati, ndetse imbere yabyo hari ibigiye bifite udupapuro twanditseho ibiciro byabyo.

Umugore uri gusunika akagorofani gashyirwamo ibyo umuntu ahashye mu isoko rya gisirimu birimo inanasi ndetse n'ibindi. Aragasunika kugeza ubwo akagejeje aho bishyurira amafaranga ubundi agakuramo ibicuruzwa akakahasiga.